of pehermingas aves at darashit so paktangira yifuzajyana agaragaza

Ederena hari feresitiri bi si faresitiri eyi nyine ya nyahejima bati yo ni iya ongodi.